Itangire kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego. Abanyonzi, abantu b'abagabo bahagaze, amajile, ingofero, amakonoshi, amakositara n'umwajenti, amayinite n'utudalapo.

Abantu bari mu ihema, bafite za bibiri imbere yabo, imbere hari ameza atatse indabo, bafite amazi imbere yabo yo kunywa, bambaye amakositimu, ama kavate, itente rifite amabara n'ibitambaro iby'umutuku, iby'umweru by'icyatsi, intebe z'umweru n'iz'icyatsi.

Isoko ririmo imyenda iya siporo ,abatayeri bari kudoda ndetse n'ibitenge, amashuka ,ibikoresho bitandukanye birimo amakanzu, amapantaro n'abantu bicaye n'abambaye ikanzu z'umuhondo bari kugurisha.